Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe muri salle iberamo inama, hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bose bamanitse ibiganza, bari gusuhuza mugenzi wabo umwe uhagaze imbere.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'ishuri. Aho harimo intebe nziza cyane zigiye zitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo bazabashe gutsinda.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe bari mu ishuri, aho bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, hakaba hari umwe uhagaze imbere yabo uri kubasobanurira isomo ry'imibare kuko bataryumva bose.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'imikara n'imyeru ndetse n'imipira y'imikara. Bahagaze hamwe aho bitegura gutaha basubira iwabo mu rugo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Ikaba ari inyubako ya kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye. Ikaba isakaje amabati y'umutuku ndetse iteye n'amarange y'umweru ku bikuta. Hakaba hari kugendamo abanyeshuri.